Umuhinzi bigaragara ko ari umuhinzi wabigize umwuga kuko afite ipombo yambaye n'agapfukamunwa arimo arafuhirira imyaka ye kugira ngo yere neza. Ahetse ipombo yifashishwa mu kuhira imyaka ushiramo amazi warangiza ukagenda ushyira hejuru y'imyaka igakura neza.

Ubwato buri mu kiyaga bw'imbaho ubwato bwifashishwa igihe ugiye kwambuka ikiyaga uvuye hakuno ujya hakurya ubwato bunyura hejuru y'ingezi ku buryo udashobora kurohama

Umugabo wicaye mu bwato, ari hejuru y'inyanja bigaragara ko arimo kuroba. Ubwato buba bukozwe mu biti, bugenda hejuru y'amazi ku buryo budashobora kurohama ngo bwikemo hasi.

Isahane iteretse hasi iriho inyama za burushete. Burushete ni inyama nziza ntoya uba wakase ugashyira ku gati hanyuma ugashyira hejuru y'umwotsi zigashya neza ukazirya.

Isahani nziza, iriho ibiryo bitandukanye by'ubwoko bwose, hariho ibitunguru, urusenda, umuceri, n'ifi. Ifi ni nziza, iyo uyiririye wumva unezerewe. Kuyirya bingana no kurya inyama, kuko intungamubiri zirimo, inyinshi ziba ziri no mu nyama.

Amafi menshi ,bigaragara ko ari bwo barangije kuyaroba. Amafi ni ibiribwa byiza bifatwa nk'inyama. Kuko aba mu kiyaga iyo bayarobye, ukayateka ukayarya. Uba wumva bisa nk'uri kurya inyama.

Amafi menshi kandi meza, amafi ni ibiryo by'abantu, kuko iyo uyariye wumva umeze neza, biba bingana nko kurya inyama. Amafi akunze kuboneka mu kiyaga cyangwa se ahantu hari icyuzi, baba barayororeye.

Umugabo uri mu bwato bw'ibiti bigaragara ko arimo kuroba, kuko ari iruhande rw'ingezi, ahantu hakunze kuba amafi menshi cyane. Ibiti biri impande ku bwato, ni byo yifashisha ashaka kuroba agashyiraho imigozi.

Igishanga cyiza kirimo imyaka itandukanye, hahinzemo ibihingwa, harimo insina ndetse n'ibishyimbo. Igishanga ni cyiza kuko iyo izuba rivuye ntabwo kibura amazi. Ibihingwa bihinzemo bikura neza.

Inzu nziza yubatse neza, iruhande rwayo hahinze amateke ndetse n'isombe. Amateke ni ibiribwa byiza iyo byeze ubishyira mu isafuriya, ugahata hanyuma ugateka ukarya. N'isombe ni ibiribwa byiza, kuko iyo yeze urayisoroma ugashyira mu isekuru, ugasekura ukarya.

Ibihaza biteye ahantu mu murima heza cyane, igihaza gishobora kuribwa mu buryo bw'imboga cyangwa se iyo cyeze kimaze gukomera, ushobora kugikeka ukagishira mu safuriya uko cyakabaye, utagiketsemo utuntu dutoya cyane, cyangwa n'amababi yacyo ukayasoroma ukayasusura ukayarya.

Umurima mwiza urimo ibihingwa bitandukanye:amateke, insina ndetse n'isombe. Amateke yerera hasi ku butaka. Naho insina zo zirakura zikana igitoki hanyuma cyamara gukura bakagitema bakakirya.

Umurima urimo ibitoki byiza bisa neza biri hafi kwera. igitoki ni cyiza kuko iyo ugitetse ukagishyiraho ibishyimbo urakirya ukagira ubuzima bwiza. igitoki mu kugiteka ubanza wagitonora hanyuma ugashyira mu isafuriya

Umurima mwiza uhinzemo karoti. Karoti ni ikiribwa cyiza gifatwa nk'imboga kuko iyo zeze urazihata, warangiza ukazironga ukazikikaguza, ugashyirara mu isafuriya, ukarya, ukaryoherwa, ukagira ubuzima bwiza.

Inzu iruhande hariho ibishingirizo. Ibishingirizo ni ibiti biba bikiri bitoya uba waciye mu ntufe ushaka kubitwara mu bishyimbo ukabishingiriza, hanyuma ibishyimbo bigakura bizamukaho, kugira ngo byere bimeze neza.

Abantu barimo kugenda mu muhanda iruhande rwabo hari amashuri yubatse asa neza. Amashuri yifashishwa mu kwiga igihe abana barimo kwiga cyangwa se abantu bakuru kugirango baziteze imbere mu gihe kizaza.

Umurima w'intabire bigaragara ko wezemo ibigori, kuko inyuma hariho ibicoricori bivaho ibigori, baba barahinze, igihe byumye urabitema ,hanyuma ugakuraho ikigori hagasigara igiti cyacyo.

Imboga zihinze zitwa shyushya, shyushya ni imboga nziza kuko iyo zeze ukazikatagura ugashyiramo ibishyimbo ukazirya, iyo uziriye wumva ziryoshye zimeze neza nta kibazo zifite.

Umurima munini iruhande bigaragara ko hariho inka iri kurisha ubwatsi. Inka ni nziza kuko itanga inyama, igatanga n'amata igihe yabyaye, cyangwa se igihe ushaka kuyigurisha ukabonamo amafaranga, ugakemura ikibazo.

Ibitunguru byiza biteye neza ku murongo bivanze n'ibishyimbo. Ibishyimbo ni byiza kuko iyo byeze urabisarura ukabihura, hanyuma ukabishyira mu isafuriya ugateka ukarya. Ibitunguru na byo ni byiza kuko iyo byeze urabisarura ukabikatagura ukabishyira mu biryo, ibiryo bikaryoha.

Insina nziza ziteye ahantu bisa nkaho ziri hafi kwana igitoki. Insina ni nziza kuko iyo zeze zitanga igitoki icyo gitoki turakirya kugira ngo tubeho neza.

Umurima uhinzemo insina zera ibitoki, bigaragara ko ziri hafi y'urugo. Igitoki ni cyiza kuko turakirya, iyo cyeze turagitonora, tukagishyira mu isafuriya, tukumva tunezerewe iyo tumaze kukirya.

Igitoki ni cyiza kiraryoha. Iyo ugitetse ugashiramo ubunyobwa n'ibitunguru, ndetse n'ibirungo bisa neza cyane, ku buryo iyo ukiriye wumva uryohewe. Iyo ugiye kugiteka ubanza kugitonora, hanyuma ibishishwa ukabijugunya ugasigarana igitoki k'imbere ukagiteka.

Voka ni ikiribwa cyiza iyo ugishyize ku biryo ubirya ufite apeti. Voka, iyo uyimanuye ubanza wayitara, hanyuma ukareka igashya, ukabona ubwayirya yamaze gushya.

Amateke menshi kandi meza. Amateke ni kimwe mu biribwa bikunze, kuko iyoyaye atera imbaraga. Kugirango uyateke ubanza wayahata, ukayakeka neza, hanyuma ukayoza ukayashyira mu isafuriya.

Ifu nziza isa neza iri mu gafuka. Ifu ushobora kuyishira mu mazi ukayitoba hanyuma ukayishyira mu isafuriya, ukayinywamo igikoma cyangwa se ifu ushobora gufata amazi ukayateka, yamara gushya ugashyiramo ugateka umutsima.

Imiteja ikoreshwa nk'imboga mu guteka ibiryo ikaba yifashishwa mu gikoni iregeranye cyane iracucitse bigaragara ko yasaruwe yeze neza kandi ikoze yose iregeranye imwe irahagaze indi iratambitse bigaragara ko bayishyize ahantu hamwe kugira ngo bazabashe kuyigurisha cyangwa se bazabashe kuyikoresha bateka ibiryo.

Umugabo urimo guseka ufashe ibase yuzuye ibinyomoro. Ibinyomoro ni imbuto nziza abana cyane cyane bakunda kuko ziba zifite intungamubiri nyinshi, iyo umwana akiriye yumva anezerewe kandi agakura neza.

Pavuro zisa neza zifite amabara atandukanye harimo iz'umuhondo, iz'icyatsi ndetse n'umutuku. Pavuro ziri mu bwoko bw'imboga kuko uzishyira mu mboga uzitetse urimo kuzikaranga, bigatanga impumuro nziza.

Ihene nziza ihagaze, bisa nkaho yanyagiwe, kuko ubwoya bwaryamye, ihene ni itungo ryo mu rugo, igihe ushaka kurirya, uraribaga ukarya inyama, cyangwa se yabyara ukayigurisha, ukabona amafaranga.

Inyanya nziza cyane ziri hafi kwera. Izi nyanya ushobora kuzifashisha urimo guteka, cane cane ugiye guteka imboga, kuko izi nyanya ziba zifite intungamubiri nyinshi cyane ziryoshya imboga, ku buryo imboga zihita zinatukura ku bantu bakunda ibiryo by'umutuku.

Inkoko nini cyane zisa neza bigaragarako zariye harimo isake n'inkokokazi. Isake ni inkoko ishonda inkokokazi kugira ngo itere amagi, na ho inkokokazi itera amagi, hanyuma amagi akazavamo ubushwi bugakura bukaba inkoko.

Abantu benshi bari kurobanura voka bazishyira mu bikarito. Voka ni imbuto nziza kuko iyo uyiriye wumva unezerewe, cyane cyane uyirya ari uko ihiye. Iyo ari mbisi urayifata ukayishyira mu itazi ugategereza iminsi igashya, ukayirya.

Abagore bicaye bari kurobanura ibishyimbo bari kubikuramo amabuye bagakuramo n'imyanda, ibishyimbo ni ibiribwa byiza iyo ubitetse ukabishyira ku birayi cyangwa se ibijumba biraryoha cyane.

Amashu ni meza kuko ni imboga nziza cane, amashuri ushobora kuyateka ukayakeka ukayashyira mu isafuriya hanyuma yashya ukayashyira ku muceri ukarya, amashu ikindi kiza cyayo agira Vitamine.

Ibitoki biri ku isoko bisa naho barimo kubigurisha igitoki ni cyiza kuko kiraribwa iyo ugiye kugiteka, ubanza wacyoza ukagitonora hanyuma ugashyira mu isafuriya ugateka ukaza kukirya wishimye.

Igitoki kinini cyane cyeze neza, igitoki ni kimwe mu biribwa turya tukumva twishimye kuko kidutera imbaraga igihe tukiriye. Kugirya, ubanza wagitonora ugashyira mu isafuriya, ukagiteka.

Imbuto z'amaronji nziza cyane. Iyo uziriye wumva umeze neza. Izi mbuto zikunze kuvamo na ji. Ji yazo iba iryoshye cyane, iryohereye ku buryo ushobora kunywa ji nk'amacupa atanu arimo nka mililitiro itanu.

Imifuka iteretse hasi irimo imiteja, iruhande hariho umunzani. Imiteja ni ubwoko bw'ibishyimbo, ariko zo bazirya nk'imboga, urazifata ukazisusura, ugakuraho akantu k'inyuma, hanyuma ukazikatagura, ugashyira mu isafuriya ugateka.

Intoryi nyinshi zisa neza bisa nkaho zahinzwe mu murima zigatezwa ifumbire, intoryi ni imbuto nziza ziribwa nk'imboga, aho uziteka wamaze kuzironga ukazikatagura, ugashyira mu isafuriya ukavanga n'ibindi biryo, ugateka bigashya ukarya.

Ibigori bimanitse hejuru bigaragara ko byeze neza, bari kugira ngo byume hanyuma babihungure, impungure ushobora kuzitekamo umutsima igihe wazibetesheje cyangwa se ifu yazo ukayinywamo igikoma.

Abagore bishimye bari gusoroma icyayi bagishyira mu gitebo icyayi ni cyiza, iyo cyeze baragisoroma bakakijyana ku ruganda uruganda rukagitunganya tukakinywa kimeze neza cyane nta kibazo dufite.

Imbuto z'amapera nziza, zisa neza, ziri mu ibase. Imbuto z'amapera, zikunze guhingwa cyane cyane majyaruguru, aho imbuto z'amapera ziryoha, mo imbere ziba zifitemo imbuto zisa nk'umutuku.

Imbuto nyinshi z'indimu zirambitse hasi, izindi ziri mu gitebo bisa nk'aho bari ku isoko bari kuzigurisha. Igitebo ni cyiza kuko ucyifashisha ushyiramo ibintu cyangwa se ushaka kubitwara, ubikuye ahantu hamwe ubijanye ahandi.

Ibicuruzwa harimo ibirayi, ibishyimbo, imyumbati. Ibirayi, ni byiza ku buzima bw'umuntu, kuko bituma ubaho neza, iyo wabiriye ugira imbaraga. Ibishyimbo na byo ni byiza kuko bituma ugira intungamubiri mu mubiri wawe.

Umugore uri mu murima uhagaze ufite igitebo inyuma kiriya gitebo cyifashishwa mu gusoroma icyayi ugenda ufata imitwe y'icyayi ukagenda ushira inyuma mu gitebo kugirango ubashe gutwara icyayi neza.

Ibishyimbo byiza biboneye, byatangiye kuzana uruyange, ibishyimbo ni byiza kuko iyo bikuze, bikuma, turabisarura, tukabihura, hanyuma tukagosora, tukabirya. Ibishyimbo bituma umuntu agira imibereho myiza. Iyo umaze kubirya wumva unezerewe.

Inanasi nziza zisa neza inanasi ni ibiryo kuko ushobora kuyihata ukayikatagura hanyuma ukayirya cyangwa se ugakoresha icyuma cyabigenewe ugakuramo umutobe bita juyisi.

Imbuto nziza nyinshi zitandukanye, z'ubwoko bwose harimo intoryi, imiteja, ibitunguru ndetse na karoti, imiteja ni myiza kuko uyiteka nk'imboga ukayirya ukumva wishimye.

Ibigori byiza bihinze kumurongo. Gusa ntabwo birera ariko biri hafi. Ikigori ni cyiza kuko iyo cyeze ushobora kukirya ucyokeje, cyangwa se ukakireka kikuma ugahungura impungure zacyo, ukajya kubetesha ukanywamo igikoma.

Imbuto nziza z'ubwoko bwose intoryi, inyanya, karoti, amaronji ibinyomoro. Intoryi ni nziza ku buzima bw'umuntu iyo uziriye wumva umeze neza. Inyanya ni nziza kuko zihindura ibiryo ndetse na karoti na zo ni nziza kuko zituma ureba neza cyane cyane iyo uziriye amaso ahita aba neza.

Umugabo wunamye ufite umugozi mu mutwe waziritseho igitebo inyuma bigaragara ko ari gusoroma icyayi. Agenda asoroma utubabi adushyira muri cya gitebo ahetse inyuma ku mugongo we kugira abone uko agitwara neza.

Imboga z'amashu zihinze mu murima zisa neza bigaragara ko zeze hategerejwe kugira ngo baze bazisarure bajye kuzirya cyangwa se bazigurisha. Imboga z'amashui nziza kuko iyo uziketse ukazishyira mu isafuriya ziraryoha.

Abaturage bahagaze mu murima w'amashu, imbere yabo hari umugabo bisa nk'aho ari kubagira inama, uko bazajya bashobora guhinga amashu imboga nziza cyane iyo uziriye ugira imbaraga, cyane cyane ukazishyira ku muceri.

Imyumbati myiza cyane, bigaragara ko yeze neza, imyumbati ni ibiribwa byiza, kuko ushobora kuyifata ukayigereka ku bishyimbo, cyangwa se ukayirya yonyine, ugashyiramo amazi makeya aringaniye, ugateka ukarya.

Imashini nini iri mu murima w'ibigori bikiri bito bizamuka. Bigaragara ko iyi mashini yifashishwa mu kuhira, igihe izuba ryavuye ari ryinshi, kugirango ngo ibigori bibashe gukura neza, bizere ari byinshi bihetse.

Abantu bari gutoragura voka bazishyira mu mifuka, bakazikorera bakazijyana, bigaragara ko hano bari kuzigura bagiye kuzijyana iwabo mu rugo. Voka ni ibiribwa byiza kuko ubishyira ku biryo igihe zahiye ukumva biryoshye.

Abantu bari mu muririma w'imyumbati， bisa nk’aho barimo kugurisha umurima，imyumbati ni ikiribwa kiza gikunzwe guhinga mu ntara y’Iburasirazuba. Iyo ushaka kuwuteka ubanza wawutonora，ukawukatagura， ugashyira mu isafuriya ugateka.

Amajeri ari mu bishishwa adatonoye amajeri ni meza cyane iyo ugiye kuyateka ubanza wayatonora ukayakura mu bishishwa byayo hanyuma ukayoza neza ukayashyira mu isafuriya ugatereka ku muriro yamara gushya ukayarya aba aryoshye cyane iyo uyashyize mu gitoki.

Inka nziza iryamye mu kibara, bigaragara ko ihaze, idafite amahembe. Iyi nka bayita inkungu. Inka ni nziza kuko itanga umukamo, cyangwa se wayigurisha ukabona amafaranga yo kwifashisha, wahuye n'ikibazo.

Ubwoko bw'urusenda rwiza cane ruri ku biti bigaragarako rutarera ruracyasa n'icyatsi bigaragarako iyo rweze ruhindura ibara ,ruracyateye bigaragarako ariko rutoshe cane bararwuhiye neza, rurasa neza.

Abantu benshi bari gukora umuganda bari guhinga bakoresheje amasuka afite imihini. Umuhini ni igiti ubaza neza ugashyira mu isuka, kugira ngo uzajye ubona uko uyiterura urimo guhinga.

Umurima mwiza uhinzemo amashu. Amashu ni ibiribwa byiza kuko bifatwa nk'imboga. Iyo zeze urazikatagura, ukazikeka, ukazishyira mu isafuriya ugateka bigashya, hanyuma ukarya ukabaho neza.

Ibigori bisa neza byamaze guheka. Ikigori ni cyiza kuko iyo cyeze ushobora kukirya ucyokeje cyangwa se ukakirereka kikuma ,impngurue zacyo ukazihungura hanyuma ukajya kuzibetesha ukanywamo igikoma.

Umusaruro mwiza cyane w'inyanya. Izi nyanya ni nziza kuko ushobora kuziteka mu mboga zimeze gutya cyangwa se zikaba zaranyuze mu ruganda zigakorwamo sositomate yifashishwa mu gushyira mu biryo, imboga ndetse n'ibindi.

Umuceri ikiribwa kiza abantu bakunda ari benshi cyane. Umuceri ni mwiza kuko iyo uwutetse uratumba ukaba mwinshi ugereranyije n'uwo uba washyize mu isafuriya umuceri ukunze kwera ahantu hari ikibaya hari amazi kugira ngo ukure vuba vuba kandi were neza.

Amapera asa neza ari ku giti, amapera ni imbuto nziza umuntu arya akumva arishimye, mo imbere ziba zisa n'umutuku, iyo uyihase, ukayimanyura, ukayirya, biba bisa neza cyane.

Abantu batanu harimo n'umugabo umwe ndetse n'abagore bane. Barimo gusarura inyanya bisa nkaho zeze neza cyane. Izi nyanya tuzifashisha turimo guteka cyane cyane imboga, kugirango zise neza ibiryo bize kuryoha.

Moto ebyiri zitwaye ibicuba ndetse n'igare, igicuba ni cyo batwaramo amata uyakuye mu rugo uyajyanye ku ruganda kugira ngo ataza kwangirika, ukayagezayo ameze neza agifite umwimerere.

Avoka nziza cyane ziri hasi, avoka ni imbuto nziza iyo uyitaze igashya, ukayishyira ku biryo ibiryo biraryoha cyane. Avoka ni nziza kuko ituma umubiri wawe ukora neza igihe wayiriye iri hejuru y'ibiryo.

Umugore wishimye uhagaze mu bishyimbo bya mushingiriro, ibishyimbo ni byiza iyo ubikuze bizana imisogwe ukayisoroma hanyuma ugahura ,ukabiteka bigashya ukabirya bimeze neza, bigira intungamubiri nyinshi cyane.

Ibirayi byinshi byiza bisa neza. Ikirayi ni ikiribwa cyiza gikunzwe n'abantu iyo ukiriye wumva unezerewe gitera imbaraga mu mubiri. Ikirayi kukirya ubanza wagihata ukacyoza ugashyira mu isafuriya ugateka.

Abantu bari mu murima w'ibigori bahetse amapombo iriya pombo yifashishwa uri kuhira ibigori igihe uri gutera umuti cyangwa se uri gushiraho amazi izuba ryaravuye iriya pombo ni nziza cane kuko ituma imyaka izamuka neza.

Ibigori byiza ushobora kukirya gitetse cyangwa se ukagirya cyokeje. Ikigori iyo cyumye ushobora kugihungura impungure zacyo ari ibigori byinshi ukabijyana ku cyuma hanyuma kikabisya ukabona ifu, iyo fu ukaza kuyitekamo igikoma cyangwa se kawunga.

Abantu babiri bari mu murima w'imyumbati, bafashe imyumbati. Imyumbati ni ikiribwa kuko iyo cyeze, urayifata ukayitonora, ukayikeka, ukayishyira mu isafuriya, ugateka ukarya ugahaga.

Umugore uri mu murima, bigaragara ko ari kuhira ibigori, Kuko afashe isuka. Ibigori nibwo bigitangira gukura, ari kubishyiraho itaka, kugira ngo bikure neza, hanyuma bizaheke tubirye ari binini cyane.

Imbuto nziza ziri ku ntara hariho avoka ndetse n'imineke. Imineke ni myiza cyane iyo uyiriye urahaga ukumva umeze neza. Voka nazo ni imbuto ushobora kurya ugashyira ku biryo hanyuma ukumva ibiryo biryoshye nta kibazo.

Umumama wicaye mu murima w'inyanya, inyanya bigaragara ko harimo izeze n'iziteze, inyanya ni nziza kuko tuzifashisha mu gukora isosi y'ibiryo, dushaka kuyirya kugira ngo twumve turyohewe.

Abagore babiri barimo guhinga bakoresheje amasuka, isuka ni igikoresho cyiza cyo mu rugo, ukoresha urimo guhinga ushaka gutera imyaka, kugira ngo izere ikure hanyuma turye, tubone ibyo kurya bidutunga.

Umugabo ufite ibigori byinshi kandi byiza， bigaragara ko avuye kubica mu murima. Biracyari bitoya， ushobora kugenda ukabirya， ubanje wabyotsa ku muririro bigashya，cyangwa se ukabitonora，ukabishyira mu isafuriya， ukabiteka mu nkono.

Inkeri ni nziza ziraryoha, iyo uziriye wumva unezerewe, inkeri zerera ku butaka. Kugira ngo umenye ko zeze zirabanza zigatukura, zigasa n'umutuku, ni bwo uzirya ukumva ziryoshye, na ho iyo zitaratukura ziba zibishye.

Ibirayi binini cyane byiza biri hasi bigaragarako biri kugurishwa, ibirayi ni ibiryo byiza kuko iyo ubiriye ugira imbaraga. Iyo ugiye kubiteka ubanza wabihata hanyuma ukabyoza ukabishyira mu isafuriya, ugashyiramo umuriro ugacanira bigashya ukarya.

Ubunyobwa bwiza busa neza. Ubunyobwa bufatwa nk'ibiribwa kuko ushobora kubwanika bukuma, warangiza ukabukaranga mu isafuriya ukaburya. Cyangwa se ukajya kububetesha ku cyuma, hanyuma ifu yabwo ukazajya uyifashisha mu guteka imboga.

Ibirayi byiza biri mu mifuka biri hasi, bigaragara ko imodoka igiye kuza kubipakira, kuko ni byinshi. Ibirayi ni ibiribwa abantu benshi bakunda barya, urabifata ukabihata hanyuma ukabyoza, ugashyira mu isafuriya ukabirya bimaze gushya.

Inka nyinshi nziza, imbere hicaye umwana ufite inkoni. Inka ni itungo ryo mu rugo, ritanga amata, iyo yabyaye urayakama ukayanywa wishimye, kuko ayo mata aba arimo intungamubiri nyinshi cyane.

Abakozi bari mu murima bari kuhira ibirayi, ibirayi bisa neza. Ibirayi iyo byeze turabirya hanyuma tukagira ubuzima bwiza, bafite amasuka. Iriya suka niyo bakoresha buhira bashiraho itaka ku kirayi kugira ngo kitaza kurwara.

Imbuto nziza zisa neza ziryoha zitwa amapapayi. Ipapayi ya kizungu yera ari nini cyane, kuko iyo yeze mu nda iba ari umutuku cyangwa se ari umuhondo.

Imyumbati iri mu murima, iri gukura isa neza, bayisasiye ibyatsi kugira ngo ikure neza. Umwumbati ni ikiribwa kuko iyo weze ukawukura, urawufata, ukawutonora, ukawushyira mu isafuriya, ugateka ukarya.

Isoko rinini ryiza bacuruzamo ibyoku kurya harimo ibitunguru, ibirayi, ndetse n'ibitoki. Ibirayi ni byiza kuko bituma umuntu agira imbaraga iyo biriye. Urabifata ukabihata, ukabishyira mu isafuriya, ugateka.

Igitebo cyiza kiboshye neza, ukifashisha urimo gusarura igihe imyaka yeze cyangwa se ukacyifashisha urimo gusoroma icyayi, ukagenda ufata twa tubabi twohejuru tw'icyayi ukadushyira inyuma mu gitebo hanyuma ukagenda wikoreye.

Inyanya nziza zikiri mu murima zitari zera. Inyanya ni nziza kuko iyo zeze uraziteka mu isosi ikaryoha, kandi bigahindura ibara, bigasa n'umutuku. Inyanya zishobora no kuba umuti, igihe wazitwaye muri rabo ukazipima.

Ubunyobwa bwiza kandi buboneye bukunze kwera cyane mu bice by'iburasirazuba. Ubunyobwa iyo ububetesheje bukavamo ifu uyishyira mu mboga, hanyuma izo mboga zikaba ziryoshye ku buryo ziba zinafashe zisa neza.

Umugore uri kugosora imyaka, ari gukoresha intara. Intara ni igikoresho cyo mu rugo, wifashisha ukuramo imyanda mu musaruro wawe, uba wabonye igihe imyaka yeze.

Akazu keza cyane gasakaje ibiganagano， kubakishije ibi biti. Aka kazu kifashishwa mu guhunika imyaka， igihe abantu bejeje basaruye， kugira ngo yume neza，kandi itanyagirwa umusaruro wabo bawufate neza.

Umurima mwiza uhinzemo amajeri. Amajeri ni ibiryo byiza kuko ushobora kubirya ari urunyogi, ukayafata ukayatonora hanyuma ukayateka, cyangwa se ukayareka akuma ukayahura ukajya kuyabetesha ukabonamo ifu. Iyo fu ukayifashisha uteka imboga.

Umugore bigaragara ko ari umuhinzi uhinga amasaka, kuko ahagaze mu murima, arimo araca amasaka bita amahundo. Iyo yeze ushobora kuyahura ukayashigishamo ubushera, cyangwa se ukayabetesha ukanywa igikoma.

Ubuhunikiro bwiza burimo ibigori byeze neza kandi bikomeye. Ibigori ni byiza kuko iyo ubihunguye impungure, ushobora kuzibetesha hanyuma ugakuramo ifu, iyo fu ukayinywamo igikoma cyangwa se ukayitekamo umutsima ukarya.

Ibishimbo bisa neza cane biri ku ruzitiro byatangiye kuzamuka kugirango bizane imisogwe hanyuma nibyera abantu bazabirya ni byiza cane kuko bimara inzara iyo ubi bitetse bigira vitamini nziza kuburyo abantu babaho neza.

Ibigori byumye neza bisa neza bihinze ku murongo, ibigori ni byiza kuko ni ibiryo by'abantu, ibigori igihe ushaka kubirya ushobora kucyotsa, cyangwa se ugahungura impongore zacyo hanyuma ukajya kuzibetesha ukabona ifu, ifu ukayinwamo igikoma.

Ibigori bisa neza, ibigori ni byiza kuko urabihungura ukabikoramo ifu hanyuma ifu ukayinywamo igikoma cyangwa se ibigori ushobora kubihungura ifu yabyo ukayitekamo umutsima, ibigori ni byiza cyane kuko bituma tubaho neza.

Imiteja iri mu bitebo iteretse mu murima w'ibishyimbo bigaragarako ari bwo bari kubisoroma. Imiteja ni myiza kuko barayirya iri mu bwoko bw'imboga, urayifata ukayisusura ugakuraho utuntu two ku ruhande, hanyuma ugashyira mu isafuriya ugateka.

Abantu bari gusoroma amajeri yitwa urunyogwe. Urunyogwe ni amajeri atarakura neza ngo yume, ngo bayasarure, cyane ko aba anaryoshye, iyo uyariye wamaze kuyateka.

Ubunyobwa bwinshi butonoye, ubunyobwa ni bwiza cyane, kuko ushobora kububetesha hakavamo ifu, ifu ukazajya uyishyira mu mboga hanyuma ukazirya, ukumva ziryoshye cyane, ubunyobwa ni bwiza kuko buvura n'umubiri w'umuntu igihe...

Amasaka menshi kandi meza, amasaka iyo yumye urayasarura, ukayahura, hanyuma ukajya kubetesha ukanywamo igikoma, cyangwa se ukabetesha ugashigishamo ubushera, ukaza kubunywa ugashira icyaka.

Umufuka uteretse ahantu urimo impungure z'ibigori. Impungure zisa n'umuhondo bita mayizore. Harimo ibisorori byo kugenda uyoresha impungure, uzikura mu mufuka, uzishyira ahandi hantu ku ruhande.

Ubunyobwa bukiri mu gishishwa bataratonora, ubu bunyobwa iyo ubusaruye urabureka bukuma, hanyuma ukabutonora ugakuramo imbuto z'imbere. Imbuto z'imbere ushobora kuzibetesha, ifu yazo ukazajya uzishyira mu biryo hanyuma ukabirya biba biryoshye.

Amacanda ahinze ahantu heza. Amacanda ashobora kwifashishwa mu gukora imboga nziza hanyuma ukaziha umwana akazirya akumva ameze neza, mu gihe amacanda ushobora no kuyifashisha uri mu murima kugira ngo akurindire inyoni zishaka kurya imyaka iteranye n'amacanda.

Amasaka ateye mu murima ameze neza. Amasaka ni meza cyane kuko iyo yeze akuma, urayahura wamara kuyahura ukajya kuyabetesha, ukayanywamo igikoma, cyangwa se ukayareka ukayakoramo ubushera.

Ibigori byiza bisa neza, ibigori ni ibiryo bidutunga mu buzima bwa buri munsi, kuko urabihungura imungure zabyo ukajya kuzibetesha wava kuzibetesha ifu yabyo ukayikoramo umutsima ukarya cyangwa se ukayitekamo igikoma ukanywa.

Umurima mwiza uhinzemo imbuto z'ingano, ingano ni igihingwa cyiza kuko iyo cyeze ushobora kukijyana ku cyuma kikabisya. Ukabona ifu yabyo ukayikoramo imigati cyangwa se ukayitekamo umutsima.

Intara ushobora kuyifashisha utwaye ibintu, cyangwa se igihe wasaruye nk'ibishyimbo umaze kubihura, ukabigosora uri kubikuramo imyanda. Cyangwa se intara ushobora no kuyifashisha mu gihe uri kuyora ibishingwe ushaka kubimena munsi y'urugo.

Ibigori biri kurobanurwa bari gukuramo amabuye, ibyatsi. Ibigori ni byiza kuko iyo byumye , ujya kubibetesha ugakuramo ifu, iyo fu ukayifashisha ukanywa igikoma cyangwa se iyo fu ukaba wayitekamo umutsima ukarya.

Imiteja myiza y'ubwoko butandukanye. Imiteja ni myiza ku mubiri w'umuntu, kuko ifatwa nk'imboga. Igihe ugiye kuyiteka urayifata ukayisusura, ugakuraho kariya kantu k'inyuma kaba gakomeye. Hanyuma ukayikatagura, ukayishyira mu mboga, ugateka ukarya.

Abadamu babiri bari kugosora ibishyimbo, bifashishije intara, intara ni igikoresho cyo mu rugo wifashisha, uyora imyanda cyangwa se ushaka kurobanura ibishyimbo , n'indi myaka isanzwe, ukuramo amabuye ndetse n'ibyatsi.

Ingurube ni itungo ryo mu rugo zitanga ifumbire. Ingurube iyo uzigurishije ushobora kubonamo amafaranga. Ingurube iyo zimaze gukura ushobora kuzibaga ukaba waziryamo inyama izo twita inyama z'akabenzi.

Inka n'inyana yayo, inka ni itungo ryo mu rugo ryiza kandi rituma ubaho neza igihe warigurishije, kuko ubona amafaranga ikindi ritanga umukamo ukabona amata ukayanywa ukagira ubuzima bwiza.

Imishwi isa neza iyi mishwi imaze gukura ishobora kuvamo inyama cyangwa se igatera amagi, ayo magi na yo akazavamo indi mishwi hanyuma zigakura bakazirya.

Inkwavu nziza zisa neza. Inkwavu ni amatungo yo mu rugo ashobora kuribwa igihe ushaka inyama. Inkwavu zirya ubwatsi cyane cyane ubwatsi bwitwa imyange.

Umugore uhagaze iruhande rwe hari amatungo magufi bita ihene, iruhande rwe na none hari amatungo maremare bita inka. Amatungo magufi ushobora kuyaryamo inyama cyangwa se ukayagurisha ukabona amafaranga.

Ubworozi bwiza bw'ingurube. Ingurube ni itungo ryo mu rugo kuko ritanga amafaranga iyo warigurishije. Ikindi iyo uzibaze ubonamo inyama. Izo nyama bazita akabenzi ukazirya unezerewe.

Intama ebyiri nziza zirimo kurisha, intama ni amatungo magufi yororerwa mu rugo, iyo akuze ushobora kuyabaga ukarya inyama cyangwa se ukayajyana ku isoko, ukabona amafaranga ukabona ibigutunga n'ibiguteza imbere.

Inkoko nziza zitera amagi .Inkoko ni itungo ryo mu rugo ryororerwa mu rugo ,iyo rikuze waribaga ukariryamo inyama, cyangwa se rigatera amagi, iryo gi ukarirya kuko riba rifite intungamubiri nyinshi, zitunga umubiri wawe.

Inkoko nziza cyane nyinshi za kizungu, inkoko ni nziza kuko ushobora kuzirya igihe zimaze gukura, cyangwa se zigatera amagi ayo magi ukayarya, aba arimo vitaminini nyinshi zitunga umubiri wawe.

Inkoko nyinshi zikiri ntoya ziri ahantu heza bigaragara ko umuntu yazoroye neza, inkoko iyo ikuze itanga inyama, cyangwa se ukayijyana ku isoko, ukabonamo amafaranga ukabasha kwiteza imbere.

Umugabo uhagaze imbere y'ikiraro cy'inka. Ikiraro ni ahantu inka ziba zirara cyangwa se bakaziha n'ubwatsi zikarya. Inka ni itungo ryo mu rugo, ritanga umukamo igihe ryabyaye ukanywa amata yaryo.

Umugabo arimo arahereza umwana itureyi y'amagi ngo ayabare narangiza akureho amagi ashaka ajye kuyarya, ni itureyi iriho amagi makumyabiri n'ane, umwana aratangira ahera ku igi rya mbere, abare ageze kuri makumyabiri n'ane.

Umugabo n'umwana bari mu muhanda bashoreye, inka bigaragara ko inka bazijyanye mu rugo. Inka ni nziza kuko zitanga umukamo igihe zahabyaye ukanywa amata cyangwa se ukazijyana ku isoko, ukazigurisha ukabonamo amafaranga.

Umuntu ufite ubworozi bwiza bw'ingurube harimo iz'umweru, iz'umukara n'izindi zifite amabara yombi avanze cane cane ingurube z'umweru nizo nziza kuko zitanga inyama nziza zinabwagura ibyana byinshi naho ingurube z'umukara nazo ni nziza ukurikije niriya ivanze ifite amabara menshi.

Inka nziza, ziri mu kiraro, ziri kurya ubwatsi, bigaragara ko zifite ubwatsi buhagije, Kuko zirashishe. Inka ni itungo ryiza ryo mu rugo kuko ritanga amata, igihe ryabyaye. hanyuma ukayanywa ukumva wishimye.

Ahantu heza bigaragara ko bahororera inkoko, kuko hari imishwi mitoya, imwe bari kuyishyira ku munzani wagirango bashaka kuyigurisha, bari gupima n'ibiro byayo, ngo barebe ibiro ifite kugira ngo bayigurishe.

Inka nziza ziboneye zirimo kurya ubwatsi, inka ni itungo ryo mu rugo, ritanga inyama cyangwa se yehe yabyaye igatanga amata, amata ni meza ku mubiri w'umuntu, iyo uyanyoye wumva umeze neza.

Ingurube nyinshi ziri hanze bigaragara ko zikiri ntoya, ingurube ni itungo ryo mu rugo, ushobora kuryifashisha witeza imbere, igihe urigurishije ukabona amafaranga, cyangwa se ukarijyana ku isoko bakaribaga bakarya inyama.

Umuvuzi w'amatungo ufashe urushinge rurimo umuti ashaka kurutera inka irwaye. Inka ni itungo ryo mu rugo ryiza, kuko ritanga amata, amata ukayanywa ukumva unezerewe.

Abagabo babiri bahagaze bigaragara ko umwe ari umuvuzi w'amatungo, kuko ari gufata intanga z'ingurube binyuze mu gitsina cyayo, ingurube ni itungo ryo mu rugo ryifashishwa kugira ngo ubone amafaranga igihe urigurishije.

Abantu batatu bisa nk'aho ari abavuzi b'amatungo abo twita abaveterineri ,kuko bafashe inka bayishyira mu kantu bari kuyitera urushinge rw'intanga, kugira ngo izabyare indi nyana na yo izakure.

Umuturage uhagaze aho bororera ingurube bigaragara ko bafite ingurube nyinshi ariko imbere ye hari ingurube imwe. Ingurube ni itungo ryiza iyo urigurishije ushobora kubona amafaranga cyangwa se rikabyara ukagurisha izo ngurube.

Umworozi ufite inka nziza bigaragara ko agenda azitaho, ziri ahantu heza mu kiraro ziri kurya ubwatsi yazigaburiye. Inka ni nziza kuko zitanga umukamo abantu bakanywa amata, bakabaho neza bishimye.

Ikiraro kiza, cyubatse neza, bigaragara ko inka zitahamo. Ikiraro kiba cyubakishije ibiti, hejuru gisakaje amabati. Inka zigatahamo zikaryama, kugira ngo imvura nigwa zitanyagirwa.

Ikigona kiri mu kirere gisimbuka. Ikigona kiri mu bwoko bw'ibiguruka， bibarwa nk'inyoni， ikigona kirya cyane cyane，inyama nk'igihe udushwi dutoya tw'inkoko turi hasi，kikaza kikadufata kikaturya.

Inyoni yuriye igiti izamuka bisa nk'aho iri kudonda ku giti ishakamo udusimba two kurya. Icyo giti ni kinini, kirimo umwenge munini cyane upfumuye. Iyi nyoni irimo kuzamuka ishakisha utuntu yarya kugira ngo ibeho neza.

Imbeba ni akanyamaswa gatoya, cyane cyane gakunze kuba ari umukara. Kaba mu nzu cg se hanze. Karya imyaka igihe utabitse neza, cyangwa se ibiryo igihe utapfundikiye amasahane n'isafuriya wabishizemo.

Inyamanswa ihagaze bita umuyongoyongo, iba ifite amababa n'amaguru, iyo ishaka kuguruka ikoresha amababa ikaguruka mu kirere ikajya iyo ishaka kujya, yaba ishaka kugenda igakoresha amaguru gusa igenda gahoro gahoro.